Farumasi nazo zibaga nziza iyo ubu umuti kwa muganga bakoreza muri farumasi ntabwo waragamo umuti, ushaka inshoce za farumasi iyo ushaka umuti, ubwo ariho bose urakubona nta kibazo ugira.

Amavuriro aba meza, n'abaganga bakadufasha, abana bakabaha imiti, ibinini bya vitamini, barabikurikirana iyo twagiye mu midugudu abana tukabakingirizayo ni byiza.

Ibigo nderabuzima biba byiza. Iyo urwaye urabigana ukabigeraho bakagufasha bakaguha umuti, ukivuza nta kibazo ubundi ugataha. Wakumva wongeye kumererwa nabi ugasubirayo, kuko nicyo cyiza cy'ibitaro.

Amahuhwa avamo indabyo nziza zivamo umuti. Usanga bazitegura kuri ritari. Ahantu henshi bakunda kuzikoresha higanjemo amahuhwa y'umweru bazi ko ayo mahuhwa bayakoresha ku ndabyo, bajya nko gushyingura n'ahandi hantu henshi izo ndabyo bakazikenera.

Ibi bivamo imiti biravura, bivura indwara zitandukanye za kinyarwanda, ibintu na byo biba byiza, iyo ubikoresheje warwaye.

Ibi bitibirumbura ubutaka. Umuntu abikuraho imishingiriro, akazishingiriza ibishyimbo. Ibi biti biba byiza iyo biri mu murima, bifata n’ubutaka ngo budatemba. Ntabwo butemba iyo biri mu murima.

Ibi byatsi na byo biba byiza. Aha, umuntu abikoresha ari nko guhohera amasaka kugira ngo abe amamera. Na byo, umuntu arabikoresha, umuntu akabyifashisha, biba na byo byiza.

Urusasa ruvamo imigano bakayishingiriza, urusasa babohamo ibitebo, habohamo ibisika, urusasa ni igiti cyiza kivamo ibintu byinshi bikenewe, havamo n' utuntu twinshi tw' imitako tuvuyemo imigano tuba ari twiza.

Ibitenetene biba byiza, ibi byatsi nk'umwana urwaye inkorora urabimuha ukabyotsa, ugakampa utuzi ukamuha inkorora iraragabanyuka.

Ibyatsi byose biba bifite akamaro. Nta giti kibura akamaro, haba icyatsi gifite ikintu kivura, ukagishaka. Iyo ukibonye, nko ku ifoto cyangwa ukaba usanzwe ukizi, umenya ikintu kivura, ukajya kugishaka, ukacyahira, ukagikoresha bitewe n’indwara uba warwaye.

Ibibonobono biba byiza, bivamo imishingiriro, bivamo n'injegwe umuntu akazishyira mu gitoki, ibibonobono biba ari byiza, n'ibi byatsi habamo ibyatsi by'imiti ya kinyarwanda, ni yo mpamvu umuntu agomba kujya arabingabunga.